Mu mavuriro hari ayigenga, harimo acungwa na leta. Bavura abarwayi batandukanye, bacuruza imiti, bakuraga amenyo. Bashira abantu barembye ku bitanda bakora byinshi mu bitaro.

Muganga afitiye abantu bose akamaro. Umurwayi arahagera bakamuvura, bakura amenyo, bavura mu mutwe, bafasha abagore batwite kubyara neza, bacururuza imiti y'amoko yose.

Mu bihingwa habamo n'ibivura, ibicumucumu bivura inkorora n'ibicurane , utunyamapfundo tuvura indwara zo ku ruhu, hari ibivura umusonga, ibivura umutwe n'ibivura inkorora.

Mu bimera habamo n'ibivura indwara gakondo, imiharavumba, imibirizi iravura, kinazi iravura, ibivura inzoka, ibivura ibicurane, ibikiza inkorora.

Imiti gakondo iva mu byatsi，nk'ibicumucumu， nk'imibirizi，nk’imiharavumba， bya kimbazi， bigira akamaro kenshi cyane， bivura inkorora， bikiza umusonga， bikiza umutwe， bikiza ubuhima n'ibindi byinshi.

Igisura ni cyiza cyane. Bakiryamo imboga bagikoramo imiti itandukanye, kivura umuriro ,bakivurisha igifu igisura gifasha n'amatungo yanze konsa.

Ibidodoki babirya amababi, babirya ibihaza byabyo, babitogoshije babiteka babikaranze babitogosa mu birayi, hari n'utundi tubuto twitwa twa gaperi umuntu uturiye agiraga ubudahangarwa.

Hari ibiti byifashishwa mu kuvura kinyarwanda, umubirizi uvura inzoka, umuharavumba uvura umutwe, tungurusumu zivura amenyo, n'ibindi byinshi.

Mu miti gakondo habamo ibicumucumu, habamo igikakarubamba, imibirizi na yo ibamo, za kimbazi, ibicuncu. Habamo ibintu byinshi bifashisha, ibivura umusonga, ibivura umutwe, hari n'ababivurisha amaso.